Uyu ni umurima uteyemo ibintu byinshi, uzitiwe n'amabuye. Utewemo ibisheke kandi ibisheke biraryoha, bitanga amafaranga, iyo ubifashe ukajya kubigurisha.

Umurima uteyemo ibintu byinshi cyane. Uteyemo ibisheke, uteyemo urubingo, urimo n'ibindi byatsi byinshi. Usa nk'aho uraye cyane.

Uyu ni umurima ugaragara ko uraye, urimo ikibonobono, ukabamo ibyatsi birebire, ukabamo n'ibigorigori byumye, ugaragara ko udahinzwe.

Ibiti bidufasha gutuma ubutaka bwacu bukomera, bikaduha kugira ubutaka burambye, kandi bufite ibinyabuzima byinshi cyane iyo ari byiza.